Icyumba gisizwe irangi r'umweru kicayemo abantu higanjemo abagore, kirimo umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare, ndetse n'isaha ku kuboko uri kwandika.

Umujyi urimo amazu y'ubucuruzi, wicayemo abantu benshi, inyuma yaho hari ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ibitwara ibintu.

Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ruba rugomba guta muri yombi buri wese ukekwaho icyaha kugira ngo ababikora babe babicikaho burundu, mu banyarwanda twese tugomba gusobanukirwa neza ko gukora icyaha bihanwa n'amategeko ikindi kandi tugasobanukirwa ko kwirinda gukora ibyaha bituma tubana mu mahoro.

Icyumba cyiza kirimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu ndetse n'amarinete, afite mikoro mu ntoki.

Ahantu hicaye abantu batatu, abagabo babiri umugore umwe, inyuma yabo hari icyapa kigizwe n'ubuso bwubururu ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyiza kirimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, higanjemo abagore, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru, amarinete ndetse n'isaha.

Icyumba kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, cyicayemo abantu higanjemo abagabo, kirimo umugabo wirabura uhagaze.

Icyumba gisizwe irangi ry'umweru, harimo abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukara. Umwe muri bo yambaye ishati y'umweru ndetse n'amarinete.

Icyumba kirimo urumuri cyicayemo abantu bambaye imipira y'ubururu higanjemo abasore, imbere yabo hari amacupa arimo amazi.

Icyumba cyiza kirimo urumuri giteraniyemo imbaga nyamwinshi, higanjemo abagabo, umwe muri bo afite ubwanwa, yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvati. Imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Icyumba gifite amarido y'umutuku kirimo abantu benshi, harimo umuzungu wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'amarineti.

Icyumba kinini kirimo umugore ubyibushye wambaye ijipo y'umukara ufite mikoro, iruhande rwe hari umugabo wicaye wambaye imyenda y'umukara.

Icyumba cyiza kirimo abagabo bane bambaye amakoti y'umukara, batatu baricaye, umwe arahagaze afashe mikoro, inyuma yabo hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu.

Icyumba kirimo sima gifite amadirishya manini. Cyicayemo abantu benshi higanjemo abanyeshuri n'abarezi. Abenshi mu barimu bambaye amataburiya y'umweru.

Icyumba kiza kigizwe n'amadirishya manini harimo abantu benshi, biganjemo abagore harimo umumama ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye n'amarinete.

Abantu benshi bicaye hamwe, higanjemo abagore, harimo umugore wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'igitenge, imbere ye hari amacupa y'amazi.

Icyapa kirimo ubuso bw'umweru, gishushanyijweho abakozi bakora imirimo itandukanye, abaganga, abatetsi, abubatsi, n'abandi, kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza umunsi mukuru w'abakozi.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, amenyesha ibisabwa kugira ngo umuntu abone akazi k'ubushoferi, mu mujyi wa Darisaramu muri Tanzania.

Icyapa cya Eko banke kigizwe n'ubuso bw'ubururu, amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, iruhande rwacyo hari inzu ndetse n'amapoto akwirakwiza amashanyarazi.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri higanjemo abakobwa, imbere yabo hari mudasobwa ntoya ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse zifashishwa mu masomo.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru, gishushanyijweho mudasobwa, gifite amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza amakuru mashya ku rubuga rw'Irembo.

Umugabo uri gukoresha mudasobwa, wambaye ishati y'umutuku irimo utudomo twinshi tw'umweru, imbere ye hari terefone ngendanwa.

Icyumba cyijimye kirimo abagabo bari gukoresha terefone, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru hariho abantu bari gukora imirimo itandukanye ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, agaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga w'umurimo.

Umujyi ugizwe n'inyubako zikorerwamo ubucuruzi zigereritse, hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu ndetse n'amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Amapoto abiri yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, ari imbere y'inzu nziza y'ubucuruzi ifite amadirishya y'umukara, ndetse n'icyapa gifite ubuso bw'umuhondo.

Ipoto rinini ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturagere rirho abagabo batanu, bambaye impuzankano y'akazi yiganjemo ibissarubeti by'ubururu, ingofero z'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara. Abatekinisiye ni ngombwa kuko kubatuma umuriro ugera hose mu baturage.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru, cyerekana ikigo gishinzwe amashanyarazi, inyuma yacyo hari amapoto abiri manini cyane yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Icyumba cyiza gisizwe irangi ry'umweru, gifite amarido y'ubururu, kirimo abantu, harimo umugore wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Imbangukiragutabara iparitse ahantu hasakaye, iri mu ibara ry'umweru, ifite amatara menshi yiganjemo ay'ubururu n'umutuku, inyuma yayo, hari indabo zikase neza. Imbangukiragutabara ni ingenzi kubera ko yifashishwa mu gutwara abarwayi.

Inzu nini irimo sima y'umutuku isizwe irangi ry'umuhondo ndetse yicayemo abantu benshi harimo umugabo wambaye impuzankano y'abagororwa.

Igipangu cyubakishijwe amabuye gifite icyapa, gifite ubuso bw'umweru, amagambo acyanditseho ari mu ibara ry'umukara, agaragaza igororero rya Huye.

Umugabo wirabura, ufite akamwenyu mu maso ndetse n'ubwanwa burimo imvi, wambaye ingofero y'umukara, amarinete ndetse n'ishati y'umutuku.

Ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi harimo abagabo, abagore ndetse n'abakecuru, hari umugore wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe wamanitse urutoki.

Ikibuga cy'amapave, giparitsemo imodoka nziza y'umukara ndetse hejuru yayo hari ikigega cy'umukara gikoreshwa mu kubika amazi.

Imbuga nini yubakishijwe amapave iparitswemo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo ibya polisi, inyuma yabyo hari inzu nziza igeretse.

Inzu nziza, zigizwe n'amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku. Iruhande rwazo hari abagabo babiri bambaye impuzankano ya gipolisi.

Umuhanda munini w'umukara, ukikijwe n'agahanda k'abanyamaguru, karimo umugabo ufite utujerekani, imbere ye hari imodoka y'umweru, igiti ndetse n'inzu igeretse.

Icyumba kirimo amakarito agerekeranye, iruhande rwayo, hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kiri mu ibara ry'umutuku.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, gifite amabara y'umutuku, umukara n'umweru, giteretse mu cyumba kirimo amakaro. Kizimyamwoto ni ingirakamaro kubera ko yifashishwa mu gutabara abaturage bahuye n'inkongi y'umuriro.

Umujyi urimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo amakamyo manini ndetse n'abantu bafite igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ahantu runaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abapolisi ndetse n'ibinyabiziga bibiri, birimo abantu bari gukora ibizame bisuzuma ubushobozi bafite bwo gutwara ibinyabiziga.

Ububiko bw'ibikoresho byinshi byingirakamaro, byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, biri mu ibara ry'umutuku, byanditsweho amagambo mu ibara ry'umweru.

Umugabo wirabura wambaye ikote ry'umukara ishati yu'mweru na karuvati. Imbere ye hari ikirahuri, inyuma ye hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Nyakubahwa, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ingofero y'umukara amarinete, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Inyuma ye hari uruvunganzoka rw'abantu, rwiganjemo abantu bamanitse amaboko. Ndetse n'umusozi n'amazu.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari mikoro, mudasobwa, icupa ry'amazi ndetse n'ikirahure.

Icyumba cyiza kirimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara, rinete z'umukara, ufite urupapuro rw'umweru mu ntoki, inyuma ye hari ifoto iriho ibirunga binini.

Umugore wicaye mu ntebe y'umukara, wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse n'idarapo.

Icyumba kinini, kirimo intebe z'ubururu, cyicayemo imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagabo n'abagore, harimo umugabo wambaye ikoti ry'ubururu.

Ikinyamitende giparitse, gifite amapine y'umukara ndetse n'ibyuma by'umutuku, imbere yacyo hari imbaga y'abantu nyamwinshi, higanjemo abagore. Ndetse hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara, uri kumwe n'umugore wambaye ijipo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ikamyo y'umutuku yikorera imizigo. Iruhande rwayo hari ibiti, imbere yayo hari abanyamaguru bari kugenda.

Umujyi urimo inyubako ndende n'urumuri, wiganjemo abantu benshi harimo abamotari bicaye ku ma moto ndetse bambaye kasike n'ijire by'umuhondo.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto cyifashishwa mu gutwara abantu, iruhande rwacyo hari ibiti, byiza ndetse n'inyubako igeretse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri bitwara abagenzi, moto na kwasiteri, iruhande rwawo hari ibiti birebire kandi byiza.

Umuhanda w'umukara, ukikijwe n'amapave, urimo imodoka, igizwe n'irangi ry'umweru, ndetse ikoreshwa mu gutwara ibintu ibijyana hirya no hino.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave, urimo ibinyabiziga higanjemo ibitwara abagenzi birimo ibara ry'umweru iruhande rwawo hari amatara yo mu muhanda amurika.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umusore wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'umupira w'umukara. Ari gusunika akanyabiziga kifashishwa mu gutwara ibintu.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru, urimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo ibitwara abantu ndetse n'ibinyamitende.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo ibitwara abagenzi, iruhande rwaho hari ibiti bifite amashami maremare.

imbuga nini iparikwamo ibinyabiziga, harimo amamodoka abiri, yifashishwa mu gutwara abagenzi, ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Inzu nziza igeretse, imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu, harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umutuku, uri kuvugira kuri terefone.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abantu bane, harimo uwambaye ikabutura y'umutuku, isengeri y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, iruhande rwacyo hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri.

Inzu nziza ifite amabati y'umutuku, iteye irangi ry'umuhondo, iri mu gipangu cyubakishijwe amatafari, imbere yacyo hari imbuga yubakishijwe amapave ndetse n'inkingi, ifite icyapa kirimo ubuso bw'umweru ndetse n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Icyapa cya mpandeshatu kigizwe n'ubuso bw'umweru, ikimenyetso mu ibara ry'umukara, gishinze mu byatsi, inyuma yacyo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiti byinshi.

Icyapa kinini cya mpandeshatu, kigizwe n'ubuso bw'umweru, ikimenyetso cyo guteranya mu ibara ry'umukara gikoreshwa mu Rwanda.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, imbere y'acyo hari umuhanda munini w'umukara, wiganjemo urujya n'uruza rw'abantu.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'ubururu kiriho ikimenyentso cy'umuntu uri kwambuka umuhanda, inyuma yacyo hari ibiti byinshi kandi byiza.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru gifite ikimenyetso cy'imodoka y'umukara iri mu kiziga cy'umutuku n'amagambo yerekana ko hatemerewe guparikwa ibinyabiziga.

Umuhanda w'amabuye ukikijwe n'imbuga iparikwamo ibinyabiziga, irimo imodoka y'umutuku, iruhande rwayo hari abazungu babiri bari kugenda, umwe muri bo yambaye ipantaro y'umukara ahetse igikapu cy'umukara, undi yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru.

Amazu meza ageretse yubakishijwe amabati y'umutuku, afite amadirishya manini, arimo ibirahuri by'umukara, ari mu bipangu byubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabyo hari imbuga nini yubakishijwe amapave.

Ipoto rinini riri mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kirimo indabo ndetse n'ibiti, inyuma yacyo hari inyubako zigeretse.

Umujyi mwiza ugizwe n'amazu menshi kandi meza afite amabati y'umutuku, harimo ibiti birebire, byiza, bifite amababi menshi.

Umujyi ugizwe n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, higanjemo ibitwara abantu ndetse n'amazu meza kandi ageretse.

Inzu nini igizwe n'amakaro y'umweru ndetse n'irangi ry'umweru. Harimo umugabo uhagaze wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Inzu nziza igeretse kabiri, igizwe n'amadirishya manini ndetse n'irangi ry'umweru, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri iy'umutuku ndetse n'iy'umukara.

Imirongo myinshi y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira mu mihanda y'ibinyabiziga. Iruhande rwayo hari moto ziparitse, zitwara abagenzi.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe na rigore ifatwa nk'umuyoboro w'amazi, iruhande rw'aho hari inzu irimo igipangu cyubakishijwe fondasiyo y'amabuye, umuyoboro w'amazi ni ingenzi kuko urwanya isuri ndetse n'umwuzure wa hato na hato mu baturage.

Umuhanda w'umukara wiganjemo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka y'umweru itwara inyama imbere yayo hari igare ritwawe n'umugabo.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo, gifite amabara yiganjemo ay'ubururu, iruhande rwacyo hari ishyamba ririmo ibiti bifite amashami maremare. Ibiti ni ingirakamaro, kubera ko bidufasha kubona umwuka duhumeka.